Umuti wica udukoko, cyane cyane nko mu mboga cyangwa se mu mbuto, nko mu nyanya, puwavuro ndetse no mu ntoryi cyangwa muri karoti. Kugira ngo udusimba twagiye muri iyo myaka tubashe gupfa, imyaka ikure neza izagire umusaruro uhagije.

Imvaruganda zifashishwa mu bikorwa bitandukanye harimo mu guhinga ibigori, mu guhinga imyaka itandukanye, harimo ndetse n'imbuto, imboga. Imvaruganda kandi ikaba yifashishwa mu kugabanya ubusharire bwo mu butaka.

Umuti wica udukoko tuba mu myaka yaba udusimba turya amababi cyane cyane nk'amababi y'ibigori, udusimba harimo nka kunywa n'utundi dusimba turya amababi y'ibihingwa harimo amababi y'ibishyimbo ndetse n'amababi y'ibirayi.

Imvaruganda yifashishwa mu buhinzi. Harimo amayire, amadapu, akoreshwa mu buhinzi, nk'ubuhinzi bw'imboga, ubuhinzi bw'imbuto, ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye harimo nk'ibirayi, ibigori, amasaka, uburo n'ibindi.

Ifumbire yi mvaruganda ya ire, ikoreshwa mu bihingwa igabanya ubusharire bw'ubutaka ikabirinda, ikarinda ubutaka kurumba ikoreshwa ku bihingwa bitandukanye harimo: nk'ibirayi, imboga ndetse n'imbuto.

Amafi yororerwa mu biyaga bigari cyangwa se mu mazi magari, aho abantu bashobora gufata umwanzuro wo gukora umwuga w'uburobyi, ukabatunga ukabakemurira ibibazo byabo bya buri munsi.

Ku kiyaga ahantu habaga amazi ndetse n'imisozi habamo amafi ndetse n'ibindi binyabuzima biva mu mazi harimo indagara n'injanga ndetse n'ibindi umuntu yakwifashisha mu mibereho ye ya buri munsi.

Uburobyi bw'amafi buba buboneka cyane cyane nk'ahantu haba ibiyaga nko mu karere ka Burera ndetse n'ahandi hantu haba amazi magari hakabonekamo amafi ndetse n'indagara biboneka mu byubaka umubiri.

Umwuga w'uburobyi bw'amafi, amafi akunda kuba mu biyaga cyangwa se akororerwa mu mazi magari. Umwuga w'uburobyi ugira umumaro cyane kubera ko bituma tubona ibituruka ku matungo ndetse kandi ugateza imbere na ba nyirawo.

Inyama z'ifi zifashishwa mu gukora amaboroshete, ndetse no guteka ibindi bintu byose bijyamo nk'inyama, amasambusa n'ibindi.

Amafi aboneka mu biyaga cyangwa se yororerwa ahantu hari amazi magari, agira imimaro itandukanye kubera ko yifashishwa nk'ibiribwa iyo yanitswe akuma avamo indagara zifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyama z'amafi zigira umumaro cyane mu mubiri w'umuntu kubera ko ziri mu biwubaka. Kandi umuntu ukora umwuga w'uburobyi ashobora kwihaza mu biribwa ndetse akiteza imbere.

Amafi aboneka mu biyaga bitandukanye cyangwa se amazi magari. Amafi ni ingenzi cyane kubera ko abantu benshi batunzwe n'umwuga w'uburobyi. Bikabafasha kandi gukemura ibibazo bibasaba amafarangamu imibereho yabo ya buri munsi.

Indagara cyangwa se insambaza zanitswe aho ziba zarobwe bakazanika, hanyuma zikavamo indagara zizifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zigira umumaro kubera ko ari ibikomoka ku matungo bidufasha mu byubaka umubiri.

Amafi aboneka mu mazi magari bakayaroba bagakoresha, bashobora kuyanika akavamo indagara cyangwa se ukayiteka nk'inyama, igafasha mu kurinda umubiri wacu cyangwa se mu kuwubaka, iboneka mu byubaka umubiri.

Amafi aboneka cyane mu biyaga cyangwa se mu mazi magari. Niho akunda kororerwa. Agira umumaro ukomeye mu buzima bw'umuntu kubera ko aboneka mu byubaka umubiri cyangwa se ibikomoka ku matungo, ndetse kandi afasha abantu kwiteza imbere kubera ko hari abantu bakora umwuga w'uburobyi.

Ibihingwa bya karoti byerera mu butaka bimeze nk'ibijumba gusa bikoreshwa mu rwego rw'imboga bikaba bifasha mu kwirinda indwara ndetse bikanafasha mu mikurire y'ubuzima bwacu bwa buri munsi tubifata kugira ngo twongere indyo yuzuye.

Umurima uba uhingwamo ibihingwa bitandukanye. Harimo ibishayoteye, amateke, isombe, ibitoki ndetse n'ibindi. Ibingibi bikaba bifasha mu kwihaza mu biribwa, ndetse bitera imbaraga, birinda indwara, ndetse byongera n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibishayote igihingwa kirandaranda, kikeraho imbuto ari zo bita ibishayote, ndetse n'ibibabi byayo biraribwa, n'ibishate bigakoreshwa mu buzima bwa buri munsi nk'imboga.

Urubingo ibyatsi bimeze nk'ibisheke, byifashishwa mu kugaburira amatungo, yaba amatungo magufi ndetse n'amaremare, nanone kandi byifashishwa iyo byakuze, umuntu ashakamo imishingirizo yo gushingira ibishyimbo.

Ibirayi n'igihingwa cyerera mu butaka, amababi yacyo ashobora gukoreshwa nk'imboga, ndetse kandi kigira umumaro ukomeye, kubera ko gifasha abantu mu kwiteza imbere ndetse bakihaza mu biribwa.

Karote ni igihingwa gihingwa ku mirongo, aho binazamo imbuto zikamera, zigakorerwa isuku hanyuma hakazaho ikintu kimeze nk'ikijumba, ariko cyifashishwa mu bwoko bw'imboga.

Ibiti by'imyungo, ibiti biba birebire cyane, byifashishwa mu kuzana akayaga keza, bifata ubutaka kugira ngo budatenguka, ndetse byifashishwamo inkwi umuntu akabona ibyo acana cyangwa se akazigurisha akabonamo amafaranga.

Ibiti by'intusi byifashishwa mu kubona amakara ndetse no kubicana, ndetse byongera umwuka mwiza aho dutuye, ndetse na none ibiti by'intusi byifashishwa nk'imiti, iyo umuntu arwaye inkorora ahekenya amababi yabyo inkoro ikabasha gukira.

Igihingwa cyitwa karoti, cyera ahantu hatandukanye, haba mu bishanga ndetse n'imusozi, cyeraho uruboga rukoreshwa mu kwirinda indwara.

Avoka igiti kirekire cyeramo imbuto zitwa avoka zifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'imbuto, kuzifashishwa mu birinda indwara kuko zibarirwa mu mbuto kandi imbuto ziba mu bihingwa birinda indwara.

Ibishayoti igihingwa gihingwa kikarandaranda, kikeraho ibihaza bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ibishayote ibibabi byabyo bikoreshwa nk'imboga ndetse ngeraho bigakoreshwa n'imboga mu mirire.

Imigozi; igihingwa kirandaranda cyeraho ibijumba byifashishwa mu gukora imigati cyangwa se amabiswi cyangwa se nanone kigatekwa kikifashishwa nk'igihingwa gitera imbaraga.

Avoka, igihingwa cyera ku biti birebire kikagira ikibuto mo imbere. Iki gihingwa kigira umumaro ukomeye. Amababi ya cyo n'umuti ndetse n'izo mbuto z'avoka zifasha mu birinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye harimo ibirayi, bifasha abantu mu kuzamura ubukungu biboneka cyane cyane mu karere ka Musanze n'akarere ka Burera bikabateza imbere, ndetse bikifashishwa mu biribwa.

Inanasi igihingwa cyera ku butaka kikagira amahwa kikifashishwa mu buzima bwa buri munsi nk'imbuto ziturinda indwara zikifashishwa nk'igihingwa nzamurabukungu kubera ko iyo zigurishijwe zivamo ibindi bitandukanye ndetse uwazihize akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibigori bwifashishwa mu kubona ibitunga abaturage, bishobora kwifashishwa amababi yabyo akagaburirwa amatungo, yaba y'amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Amateke ya mabwayisi akunda guhingwa cyane mu bishanga, akoreshwa mu byo kurya ndetse akajyanwa no ku isoko. Mu bwoko bw'ibyo kurya abarizwa mu bihingwa bitera imbaraga.

Ibinyomoro ibihingwa byera ku biti birebire. Ibi bihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu guteza imbere abaturage kuko babibonamo amafaranga, ndetse nanone bifasha mu birinda indwara mu buzima bwacu.

Imyembe igihingwa kiboneka ahantu hatandukanye yifashishwa nk'imbuto agafasha abantu no kwivana mu bikene iyo yize ukayijyana ku isoko ushobora kuyigurisha ugakemura ibibazo bitandukanye yaba iby'amafaranga y'ishuri, mituweli ndetse n'ibyo mubuzima busanzwe.

Ubuhinzi bw'ibigori aho havamo ibikorwa bitandukanye. Ibigori iyo twabihinze tubonamo ubwatsi bwo kugaburira amatungo. Duheraho ibigori tukabirya, ndetse tukabigurisha tukabona amafaranga. Tukabona ayo dukemuza ibibazo bitandukanye bisaba amafaranga, nka mituweli, amafaranga y'ishuri n'ibindi.

Ikawa igihingwa Ngandurabukungu byifashisha mu guteza imbere abanyarwanda,R aho zigurishwa zikajyanwa mu mahanga u Rwanda rukinjiza amafaranga.

Insina zeraho ibitoki byifashishwa mu mirire ndetse ibitoki bivamo imineke. Igitoki kiba mu bitera imbaraga, ndetse imineke iba mu birinda indwara kubera ko ari imbuto.

Ibijumba igihingwa cyera k' umugozi cyera ahantu hafite ubutaka burebure ndetse kiri mu bitera imbaraga kubera ko ari ikinyamafufu cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ubuhinzi bw'ibirayi; ibirayi bigira umumaro ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, bidufasha kubona amafaranga akemura ibibazo bitandukanye, bikadufasha mu kwiteza imbere, ndetse bidufasha mu mafunguro yacu ya buri munsi.

Mu isoko ahantu hacururizwa imbuto zitandukanye harimo: amapera, amaronji, imineke, kokombure, inyanya, ibinyomoro, amatunda, karipilipi ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Amateke n'imyumbati ibihingwa nzamurabukungu kuko uwabihinze abijyana kubigurisha akabonamo amafaranga, ndetse biboneka mu bihingwa cyangwa se ibyo kurya bitera imbaraga.

Inyanya zisa n'icyatsi zitarera, ziri mu murima, zishingirye kugira ngo zitagwa hasi, n'imbuto ziriho zikaza kubora. Inyanya zeze zifashishwa nk'imboga, zikaba ziri bwoko bw'ibirinda indwara.

Puwavuro zitukura zikoreshwa mu mu guteka, zihingwa cyane cyane mu bishanga ziri mu bwoko bw'imboga, zirinda umubiri kugira uburwayi butandukanye, zongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Icyayi, igihingwa kifashishwa cyane mu gwanda gihigwa cyane cyane ahantu hakonja nk'i Musanze ndetse mu tundi turere tw'amajyaruguru, igihingwa cyifashishwa mu gukorwamo icyayi.

Ibitoki, bihingwa bikomoka cyane ahantu henshi mu gihugu cyacu, aho byifashishwa mu imirire mu ibitera imbaraga ndetse biri no mu bihingwa bishobora kuvamo imbuto n'imineke iyo bihiye.

Amaronji igihingwa kiboneka ku biti birebire, iki gihingwa gifashwa mu kongera indahangarwa umubiri kuko kirimo birinda indwara ndetse gifasha mu kongera amafaranga kuko uwabihinze ajyana ku isoko akabona amafaranga, agakemura ibibazo afite.

Icyayi, igihingwa ngangurabukungu kizamura ubukungu bw'igihugu cyacu, aho cyoherezwa mu mahanga, kigasukurwa kigakorwamo icyayi k'ifu, ari cyo twita amajyane.

Amateke igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye ndetse amakora yacyo yifashishwa nk'imboga, kandi amateke araribwa akaboneka mu bitera imbaraga umubiri wabyo.

Imyumbati igihingwa kera ku giti kirekire, kigira amababi ashobora kwifashishwa nk'isombe ndetse imyumbati hari uburyo bayinika, bakayanika bakayishesha, hakavamo ifu ikifashishwa mu bugari.

Igihingwa k'ibigori kigira imimaro itandukanye harimo kugaburiro ubwatsi amababi yabyo. Amasage cyangwa se imisatsi y'ibigori umuntu iyo arwaye igifu ushobora kuyitekamo, guteka amazi arimo aya masage ukayanywa bikakurinda igifu.

Isombe yera kubita birebire hakaribwa amababi yayo. Isombe yifashishwa mu buzima bwa buri munsi ikaba iboneka mu bihingwa birinda indwara kubera ko ibarirwa mu bwoko bw'imboga.

Ibihaza cyangwa se amadegede, bikoreshwa nk'amafunguro aboneka mu birinda indwara, kubera ko ziboneka mu bitera imbaraga. Amadegede kandi yera ku ruyuzi rurandaranda.

Imyumbati igihingwa cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho baba bari gucuruza ukabonamo amafaranga ukiteza imbere, ukabona ibyo ukeneye cyangwa se ukabikoramo ubugari ukaburya, cyangwa se ukabirya kuko igira umumaro wo gutera imbaraga mu mubiri.

Ibireti ibihingwa bihingwaga mu karere ka Musanze, ibihingwa bikoreshwa mu gukoramo imiti, yaba imiti yica udukoko two mu bihingwa, cyangwa imiti ivura abantu.

Amadegede cyangwa se ibihaza biba bisa umuhondo, bigiramo imbuto mo imbere, byera ku ruyuzi rurandaranda, byifashishwa nk'imboga mu bigize indyo yuzuye .

Icyayi, igihingwa ngandurarugo gihingwa ahantu hatandukanye, kigira umumaro ukomeye kubera ko uwagihinze abona amafaranga, bakakigana mu nganda bagakoramo icyayi cy'ifu ari cyo twita amajyane.

Ubuhinzi bw'inyanya zera cyane mu bishanga, zikera ku bihingwa bigufi, zikera zitukuye aho zifashishwa nk'imboga kandi zikongera amaraso kandi zikaba ziri no mu birinda indwara mu bigize indyo yuzuye.

Muri pepinyeri ahantu habera ubwinazi bw'ibiti bitandukanye yaba ibiti cyangwa se imbuto urugero nk'iyo uri kwinoza nk'ibiti runaka, imisave, indakatsi, intusi no kwinaza nk'ibiti by'imbuto, avoka, imyembe, amaronji n'ibindi.

Avoka, igihingwa cyera ku biti birebire, iyo zeze barazitara zigashya, zikaribwa, zikaba ziboneka mu birinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Imiteja yera ku bishyimbo igatekwa nk'imboga. Iyo ibishyimbo bitarera neza, byifashishwa cyane mu mibereho yacu ya buri munsi.

Ubuhinzi bw'icyayi, igihingwa ngangurabukungu kidufasha mu kwiteza imbere tukacyohereza mu mahanga, ndetse cyikifashishwa mu nganda aho bakoramo icyayi cy'ifu cyifashishwa dukunda kwita amajyane.

Ibibiriganya, igihingwa kimeze nk'intoryi, kiri ahantu hatandukanye, kigira umumaro ukomeye kubera ko gifashwa nk'ibiribwa, kandi kiri mu bwoko bw'imboga, bivuze ko ubwo ari ibirinda ndwara.

Ikigori cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, yaba mu kugiteka ukakirya uko kiri, yaba mu mpungure, yaba mu kugurisha ukabona amafaranga ugakemura ibibazo byawe. Ndetse no mu kugiteka mu gikoma ndetse n'ibindi ndetse n'umutsima.

Umurima uhinzemo icayi. Icayi gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi nk'igihingwa gangurabukungu aho cyoherezwa hanze kikazazana amafaranga akinjira mu gihugu ndetse kigakorwamo icayi gikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibisheke aho ushobora kubwifashisha utemaho ubwatsi bwo kugaburira umutungo, ushobora kubijyana ku isoko ukabona amafaranga, ushobora kubisekura ugakuramo isukari yo guteka mu gikoma utiriwe ukoresha iyo mu ruganda.

Ibirayi n'ibihingwa byera cyane cyane mu karere ka Musanze, n'akarere ka Burera .byifashishwa mu guteza imbere ababikora, kubera ko babonamo ibyo barya ndetse bagasagurira n'amasoko bakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, harimo pome, amaronji, amapera, kokombure, indimu zifashishwa mu birinda indwara.

Amashu, ubwoko bw'imboga buhingwa cyane cyane mu bishanga, ahantu hagera amazi kugira ngo zibashe gukora neza. Amashu yifashishwa mu mu mirire cyane cyane mu bwoko bw'imboga kuko yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Abarizwa mu birinda indwara.

Ibitunguru byo mu bwoko bwa onyo cyangwa se ibitunguru binini byifashishwa nk'imboga mu buzima bwa buri munsi, aho bifasha umubiri mu birinda indwara.

Imyumbati yifashishwa mu buzima bwa buri munsi hari igihe tuyifata tukayinika, tukayanika, tukayisya tugakuramo ifu, tugatekamo ubugari, ndetse dushobora no kuyiteka imeze gutya, ikaboneka mu bitera imbaraga.

Ibigori byifashishwa mu bikorwa bitandukanye ushobora kubiteka ukabirya, ushobora kubyanika bikuma ukabishesha hakavamo ifu, bijyanwa mu nganda bigatunganywa hakavamo kawunga ,bigafasha abantu mu kongera imbaraga mu mubiri.

Amahundo y'ibigori iyo byeze barabitonora bakajya kubihunika ahabugenewe, byamara kuma neza bakabihungura bakabijyana ku isoko, cyangwa se bakajya kubishesha bagakuramo ifu yifashishwa mu guteka igikoma cyangwa se umutsima.

Amatunda yera ku giti kirandaranda akera cyane, afasha mu biri indwara, mubigize indyo yuzuye, kandi ateza imbere umuntu kubera ko iyo wayahinze ushobora kuyijyana ku isoko, ukayagurisha ukabona amafaranga ukagura ibyo ukeneye kugura.

Amashu igihingwa cyera ahantu hatandukanye yaba imusozi ndetse no mu gishanga, icy'igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga kikaba gifasha ubuzima bw'umuntu ukongera ubudahangarwa mu mubiri kuko kiboneka mu birinda indwara.

Ibirayi，igihingwa kiboneka cyane mu ntara y'amajyaruguru mu karere nka Burera na Musanze，aho ibirayi bidufasha mu kwiteza imbere， tukabigurisha，tukabona amafaranga， tukagura n'ibindi bintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi， ndetse n'igihingwa kiri mu bitera imbaraga.

Abahinzi bateraniye hamwe, kugira ngo bige ku musaruro babonye, bakusanyirize hamwe umusaruro, bafashe bagenzi babo bahuye n'ibiza ntibasarure neza.

Avoka ibarizwa mu bwoko bw'imbuto yera ku giti kinini iyo uyiriye yongera amavuta mu mubiri ndetse yifashishwa mu birinda indwara kuko aboneka mu bwoko bw'imbuto.

Ubuhinzi bw'umuceri aho umuceri wifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'ikinyampeke ikaba iboneka mu bitera imbaraga bifasha umubiri wacu kugira imbaraga zo gukora.

Ubuhinzi bw'ibirayi, aho ibirayi bigira umumaro utandukanye, iyo bihinzwe bikera bifasha abantu kwikura mu bukene, kubera ko babigurisha bakabona amafaranga, ndetse n'ibibabi bya byo bikoreshwa nk'imboga.

Ibijumba igihingwa kera ahantu hatandukanye kera k'umigozi irandaranda, kigira umumaro ukomeye. Gitera imbaraga kandi kiri mu binyamafufu ikindi kandi gifasha umuntu kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Powavuro zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu mirire, ni bwoko bw'imboga zongera amaraso kubera ko zitukura ndetse zirinda indwara kubera ko ziba mu birinda indwara mu mboga ndetse no mu mbuto.

Igihingwa cy'amateke yera mu butaka akifashishwa mu kuzamura ubukungu kubera ko ajyanwa ku isoko, umuntu agakemura ibibazo afite, na none amateke kandi akoreshwa mu biribwa, kuko arimo ibyongera imbaraga.

Marakuja, ubwoko bw'amatunda, yera ku biti birandaranda, aho agira umumaro ukomeye, aboneka mu birinda indwara, mu bigize indyo yuzuye, kandi n'uwayahinze abasha kwiteza imbere mu biribwa.

Amateke yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, yaba mu kuyajyana ku isoko ukabona amafaranga ndetse no mu buzima busanzwe aratekwa akaribwa, aboneka mu bihingwa byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Amatunda urubuto rwera ku giti kirandaranda kikagira umusaruro utubutse, cyifashishwa mu birinda indwara, ndetse cyifashishwa no mu guteza imbere uyahinga kuberako agira amafaranga atubutse, umuntu akayakemuza ibibazo.

Imyumbati igihingwa kigira amababi ameze nk'isombe, nanone imyumbati ishobora buba amababi yayo ushobora kuyakoresha mu buryo bw'isombe, nk'imboga cyangwa se imyumbati muri rusange ukayiteka cyangwa se ugasekuramo ubugari.

Ikigori cyangwa se amahundo y'ibigori, aba yareze ku giti cy'ibigori aho yifashishwa mu biribwa bitandukanye. Ushobora kubyanika bikuma, ukabishesha ugateka igikoma ndetse ugateka n'umutsima w'ibigori, ndetse ushobora no kubiteka ari bibisi, bikaribwa bikaboneka mu bitera imbaraga.

Igihingwa cy'ibishyimbo kera mu buryo burebure cyangwa se bugufi kigira umumaro ukomeye kubera ko amababi yacyo ariyo twita umushogoro atekwa nk'imboga akadufasha mu kwirinda indwara ndetse n'imbuto zacyo iyo zeze zikanikwa zikuma zikavamo ibinyampeke bidufasha mu gutera imbaraga umubiri wacu.

Inanasi ziboneka mu majyaruguru mu karere ka Gakenke, aho zifashishwa mu biribwa birinda indwara, kubera ko ziboneka mu mbuto.

Avoka igihingwa cyera ku biti ibirebire kikaba kiboneka mu mbuto, kikaba kiboneka ndetse no mubirinda indwara mu bigize indyo yuzuye.

Avoka igihingwa cyera ku giti kirekire kiboneka mo ikibuto mwimbere kibasha gukoreshwa mu buryo bwo kwirinda indwara kuko kiboneka mu mbuto.

Intojyi igihingwa gihingwa mu bishanga ndetse n'imusozi kiba mu bwoko bw'imboga zitekwa mu buryo butandukanye yaba nk'isosi cyangwa se n'ibindi mu bindi biribwa kigafasha umubiri kwirinda indwara.

Imyumbati iboneka mu bitera imbaraga, ishobora gukoreshwa itetswe cyangwa se ikanikwa ikavamo ifu bigakoreshwa mu bugari, kandi ikazaboneka mu bitera imbaraga umubiri.

Ibigori ibihingwa ngangurabukungu cyangwa se ibihingwa ngangurarugo, kuko byifashishwa mu kubona ibyo turya mu rugo, mu kubona ibyatsi byo kugaburira amatungo ndetse tubikuramo n'amafaranga yo gukemuza ibibazo.

Ibigori igihingwa gikungahaye cyane, mu kongera ubwenge, iyo cyeza kikuma kigahungurwa, umuntu akagishesha, hakavamo ifu, iyofu yifashishwa mu kongera ubwenge yifashishwa muteka umutsima, cyangwa se igikoma.

Amatunda yera ku giti kirandaranda, akeraho imbuto nyinshi zitandukanye, afasha mu kuzamura ubukungu, ndetse afasha mu birinda indwara mu mubiri w'umuntu, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inkwavu zororerwa mu rugo zikagira umumaro mwinshi, zikarya ibyatsi bitandukanye, inkwavu zifashishwa mu nyama zongera ibinyabinure cyangwa se ziri mu mu byubaka umubiri mu bigize indyo yuzuye.

Indimu igihingwa kera ku giti kirekire kiboneka mu bwoko bw'imbuto. Indimu ni nziza cyane kuko ziri mu birinda indwara ndetse kandi indimu zikoreshwa nk'umuti, iyo umuntu yarwaye nko mu kanwa cyangwa se izindi ndwara ashobora kurya indimu akoroherwa cyangwa agakira.

Imiteja yo mu bwoko butandukanye, ifite amabara atandukanye y'icyatsi, umuhondo na oranje, igira umumaro ukomeye kuko ikoreshwa nk'imbuto mu mirire, ikaba ifasha umubiri kurinda indwara.

Imvungure n'amahundo y'ibigori ,bishobora kwifashishwa mu gukorwamo akawunga iyo byajyanwe mu nganda runaka cyangwa se umuntu akazitekeraho cyangwa ugashesha, ugatekamo igikoma.

Umutiba wifashishwaga mu guhunika imyaka harimo ibishyimbo, ibigori, amasaka ndetse n'ibindi, uyu mutiba watumaga imyaka itamugwa cyangwa se ngo ibore.

Ibihwagari byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, ushobora kubyanika ukabisekura hakavamo ifu, ukayishyira mu biryo cyangwa se ukabigurisha bikajya mu nganda bagakoramo amavuta y'ubuto yo guteka.

Muri sitoki ahantu babikaga imbuto runaka nk'ibigori ndetse n'ibindi ndetse n'iyo bari guhunika imyaka ahantu bayibika kugira ngo itazangirika.

Ubuhunikiro bw'imyaka bahunika imyaka itandukanye: nk'amasaka, ibishyimbo, uburo, ibigori, soya, ndetse n ibindi bihingwa by'ibinyampeke.

Amahundo uturuka ku bigori iyo byahinzwe bikera umuntu akabitonora akabikuraho ibishishwa, akabyanika nibwo habonekamo amahundo.

Imyaka itandukanye y'ibinyampeke harimo: amasaka, ibigori, ingano, ibishyimbo, uburo ndetse n'indi myaka itandukanye harimo:umuceri n'amasoya.

Ibigorigori biva ku bigori iyo byeze bikuma. Ibigorigori byifashishwa mu gusasira imyaka harimo n'ikawa gusasira urutoke n'ibindi.

Ibishyimbo byumye nyuma yo kuma barabihura hakava bakabigosora hakavamo ibishyimbo byumye twakwifashisha turi nko gutera cyangwa se tukabiteka bikaba amafunguro bikaba biboneka mu byubaka umubiri.

Muri sitoke, ahabikwa imyaka itandukanye cyane cyane harimo nk'umuceri bakawufunga neza bakawushyira mu mufuka utunganyije kugira ngo biwurinde gupfa.

Amashaza asatuye yifashishwa mu rugo, iyo umuntu atetse ushobora kuyashyira mu byo utetse cyangwa se ukayajyana ku isoko, ukayagurisha ukabona amafaranga, ugakemura ibibazo byawe.

Ubuhinzi bw'umuceri bukunda guhingwa cyane ahantu mu gishanga haba amazi, kubera ko bayoboramo amazi. Uyu umuceri wera cyane ahantu hakonja ndetse haba amazi ahora atemba hatumagaye, ukifashishwa mu bitera imbaraga umubiri.

Umuceri urimo ubwoko bugiye butandukanye harimo pakisitani ndetse n'indi, umuceri wera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze ya cyo, ifasha u Rwanda kwiteza imbere, kubera ko bihaza mu biribwa bagasagurira no mu masoko yo hanze y'igihugu.

Ubuhinzi aho buhinga ibishyimbo ntibarindire ko byera, ahubwo bakabisoromaho imiteja gusa, iyo mbuto y'ibishyimbo aba ari imbuto yabugenewe, izwiho ko yera y'imiteja, yifashishwa nk'imboga.

Inkoko yifashishwa mu kugosora imyaka, yaba amasaka, ibigori, uburo, ndetse n'indi myaka yose ikenera guhurwa, kugira ngo umuntu akuremo imyanda ijye ukwayo, ndetse n'imyaka myiza ijye ukwayo.

Ubuhinzi bw'imiteja aho bahinga ibishyimbo bikazana imishogoro bikaraba, byamara kugira imiteja bakayisarura, bakirinda ko ikomera cyane, bakabikoresha mu rwego rw'imboga.

Ingano ubwoko bw'igihingwa cy'ikinyampeke gifasha mu kongera ubwenge. Ingano zifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye nk'ibidiya, imbada, ndetse niho hakorwamo ifarini yifashishwa mu gukora amandazi.

Igihingwa cyiza cy'igihwagari gikoreshwa mu bujyo butandukanye, gishobora gukoreshwa ufashe imbuto zacyo ukazisekura ukaziteka, ndetse iyo kijyanywe mu nganda kivamo amavuta meza y'igihwagari.

Imbuto y'ibishyimbo byitwa nyirabukara zifashishwa mu guhinga ahantu hamwe mu bishanga, ikeramo imiteja, ntabwo utegereza ko byuma ngo ubisarure byumye ahubwo usoroma imiteja ikifashishwa nk'imboga.

Ibishyimbo bahinga bikeraho imiteja ariyo ikoreshwa nk'imboga. Ibi bishyimbo ntago tubireka ngo byere ahubwo turabireka byaba imiteja nibwo tubisarura tukabiteka ari imiteja.

Muri pipinyeri ahantu binariza imbuto zitandukanye, yaba ibiti yaba ibiti by'imbuto, nk'avoka amapera, amatunda, ibinyomoro, amaronji, amapapayi ndetse n'ibindi biti bitandukanye.

Ibishyimbo byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, nko kubiteka tukabirya, kubiteka tukarya amababi yabyo, ari yo yitwa umushogoro, nk'imboga zidufasha kurinda indwara, ndetse ibishyimbo byo ubwabyo, bidufasha mu byubaka umubiri.

Ubworozi bw'ingurube, inyamaswa irya ibyatsi, inyamaswa ibwagura cyane, ikabwagura nk'ibibwana bigera mu icumi. Inyamaswa igira umusaruro cyane kubera ko iyo ibwaguye ibibwana byinshi, iyo ubigurishije ubona amafaranga atubutse.

Ubworozi bw'inkwavu bukorerwa mu rugo, zikarya ibyatsi ndetse inkwavu zigira umumaro ukomeye, kubera ko zibwagura zigafasha umuntu kwiteza imbere, akagura mituweli, akishyura amafaranga y'ishuri, ndetse inkwavu zitanga n'inyama. Ziri mu byubaka umubiri.

Ubworozi bw'inkoko ndetse n'ubuvuzi bwazo, aho zifashishwa mu kongera ubukungu zitera amagi, akifashishwa mu kuzamura imirire, ibyo bifashamo kurinda igwingira ry'abantu ndetse no kugira imikorere myiza mu' baturarwanda muri rusange.

Ubworozi bw'inkoko yaba inkokokazi amasake yororerwa ahantu hamwe agahabwa imiti ,agahabwa ibyo kurya, mazi kugira ngo akore neza azabasha gutera amagi cyangwa se zifashishwe mu kuribwa.

Ingurube inyamaswa y'inyamabere, ikunda kubwagura ibibwana byinshi ndetse bikarya ibyatsi.

Ubworozi bw'ihene amatungo magufi arya ibyatsi yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, atanga ifumbire tukayihingisha imyaka, arabyara, yifashishwa mu biribwa nk'inyama ndetse umuntu yayagurisha akabona amafaranga akayakemuza ibibazo afite.

Ubworozi bw'udushwi aho zororwa zikavurwa zikitabwaho zigakura hanyuma hakabonekamo zirimowo kuko zigatera amagi hakifashishwa mu kongera ibituruka ku matungo mu buzima bwacu bwa buri munsi aho biturinda indwara zitandukanye ndetse bikubaka n'imibiri yacu.

Ubworozi bw'ingurube zifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ingurube zibwagura ibibwana byinshi bikaba byafasha umuturage mu kwiteza imbere, kubera ko abigurisha akabona amafaranga menshi, agakemura ibibazo birimo guteza imbere imibereho myiza nko kugura mituweli, ndetse habonekamo n'inyama zifashishwa mu mu mirire.

Ubworozi bw'ingurube buteza imbere ababukora kubera ko zigira ibibwana byinshi. Bikaguha amafaranga ndetse kandi ingurube zitanga ifumbire twifashisha mu buhinzi.

Ubworozi bw'inkwavu bufite akamaro gakomeye cyane, aho ushobora gukuramo inyama ukihaza mu biribwa, ndetse ushobora no gukuramo amafaranga ukiteza imbere, ukishyurira abana amashuri, cyangwa se ugakora ibindi bintu byose bikenewe n'amafaranga nko gutanga mituweri.

Muri busheri ahantu babagira inyama yaba inyama z'inkoko, inyama z'ihene ,inyama z'intama, inyama z'inka n'ingurube zigapimwa kugira ngo zireba ko zujuje ubuziranenge zikemererwa gucuruzwa kugira ngo abantu bazihahe.

Ubworozi bw'inka zororeherewe mu biraro aho bigira umumaro ukomeye kubera ko biturinda ko inka zanduzanya abaveterineri bakaza mu rugo bakazitaho zigafata imiti ihagije zigakingirwa kugira ngo twirinde kwanduzanya kw'inka.

Ubworozi bw'intama bugira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko intama tuzifashisha twongera ubukungu tukazigurisha tugakemura ibibazo bitandukanye nko kwishyura mituweli ndetse n'amafaranga y'ishuri tuzikoresha nanone nk'inyama zikadufasha mu mikurire y'abana.

Ubworozi bw'ihene, amatungo magufi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, yifashishwa iyo wagize ikibazo urarigurisha ugakemura ikibazo cyawe, ukishyura amamituweli, ukishyura amafaranga y'ishuri, ndetse adufasha mu kubona ifumbire yo guhingisha.

Amatureye y'amagi, aho amagi abikwa ndetse anatwarwa mu gihe agemuwe ahantu runaka, kugira ngo atangirika cyangwa se akaza kumeneka, agahombya nyirayo.

Ubworozi bw'ingurube bwafasha umuntu mu kwiteza imbere ,aho zibwagura ibyana byinshi bigatuma umuntu aza azamuka mu bukungu, ndetse ingurube zivamo inyama zidufasha mu kugira imikurire myiza.

Inzoka inyamaswa yo mu gasozi igira ubumara cyane ishobora kukuruma ukaba wakwangirika cyangwa se ukagira ikibazo runaka, ushobora no gupfa bisaba ko bakujyana kwa muganga kugira ngo ubumara bukuvemo.

Ingagi inyamaswa mu ishyamba, iboneka muri pariki y'ibirunga, ikaba ifite imico nk'iy'umuntu ndetse ifitiye igihugu cyacu akamaro, kuko yinjiza amadovize abakerarugendo bavuye hanze mu bihugu baza kuzisura.

Inkende ziboneka cyane cyane mu mashyamba, nko mu mashyamba y'ibirunga, zifite ubugenge nk'ubw'abantu kandi zidufasha mu gihugu cyacu mu gukurura ba mukerarugendo bakatwinjiriza amadevize.

Imbogo inyamaswa iba mu ishyamba ikunda kuba cyane ahantu haba izindi nyamaswa kubera ko irya izindi nyamaswa, kandi igira umumaro ukomeye cyane kubera ko iyo yishwe iraribwa ikavamo inyama.

Inkende inyamaswa zo mu ishyamba zikunda kuba mu biti zitwara nk'abantu, zifite umumaro ukomeye kubera ko zinjiza amadevize iyo bamukerarugendo baje mu Rwanda nko muri pariki kuzisura.

Ingagi inyamaswa imeze nk'abantu iba mu ishyamba cyane cyane mu bice by'amajyaruguru mu karere ka Musanze muri parike y'Ibirunga.

Ingagi: lnyamaswa imeze nk'abantu, ifite agaciro gakomeye mu mibereho y'abanyarwanda, kubera ko ikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, ndetse bikongera umubano dufitanye n'amahanga.

Injangwe, akanyamaswa kaba mu ishyamba, ndetse gakunda no kuba mu rugo kakarinda umutekano, aho gafata imbeba ziri mu nzu zangiza imyaka cyangwa se ibikoresho byo mu nzu.

Inyamanza inyoni iboneka cyane cyane mu biti cyangwa se ahantu hakonja, ikunda kuvuga cyane mu gitondo igakangura abantu, iboneka mu biti cyangwa se ahandi hantu.